Umuhanda rwagati wa kaburimbo, ahantu haba haciwe imirongo hanyurwa n'abanyamaguru bambukiranya umuhanda. Hakaba hari abamotari, inzego z'umutekano, iza polisi yo mu muhanda abamotari bakaba baparitse bategereje ko abanyamaguru bambuka, nyuma na bo bakabona gutambuka.

Akadege gato kazwi nka dorone gakoreshwa mu gucunga umutekano cyangwa gufotora ahantu hanini. Kakaba gafite ikoranabuhanga rituma kagenda nta muntu ugatwaye, ukarimo ahubwo bakagakoresha bari hamwe bakoresheje imashini computa.

Imbwa inyamaswa yatojwe kandi igira ubushobozi buhambaye bwo gucunga umutekano, inakoreshwa kandi mu gushakisha ibintu bitemewe nk'urumogi, imbunda n'ibindi bikoresho byakwangiza ubuzima bw'abantu, zikaba zitozwa ubundi zikoreshwa n'inzego z'umutekano.

Ikoraniro ry'abantu cyangwa se inama ihuza abantu, aho baba bafite ingingo bigaho, ndetse bagatanga ibitekerezo, bakabaza n'ibibazo, bagashakira ibisubizo hamwe. Ibi bibera mu cyumba cyangwa se imbuga yabugenewe, aho buri wese aba afite aho kwicara, bakaganira batuje.

Abaturage benshi bateraniye ku kigo cy'amashuri, aho bari kuganira n'abayobozi babo biganjemo ab'inzego z'umutekano abasirikari n'abapolisi. Ibi bikorwa mu gihe habaye ikibazo cyangwa se hari inama iri guhuza ubuyobozi bugeza ku baturage ibitekerezo. N'uko ibintu bigomba kugenda ndetse abaturage bakabasha kubaza ibibazo bagasubizwa.

Inzego z'umutekano bizwi nka daso bari mu myitozo, cyangwa ikosi bakaba ari bamwe mu bantu bashinzwe umutekano ku rwego rw'umurenge, n'akarere, bakaba bakora nta mbunda, bambara imyenda y'icyatsi.

Imbuga iri hagati mu mazu y'ubucuruzi ikaba iri kuberamo inama yahuje abayobozi n'abaturage. Higanjemo inzego z'umutekano zishobora kuba zirimo kugira inama cyangwa zimenyesha abaturage zimwe mu ngamba zirimo gufatwa n'ibindi byemezo bijyanye n'inzego z'umutekano.

Umupolisi cyangwag se umuntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda, aba aba arimo abaza ibinyabiziga ko bifite ibyangombwa bituma hirindwa impanuka zishobora gutegwa no kuba ibinyabiziga bitujuje ubuziranenge, cyangwa se ababitwara badafite ibyangombwa bibemerera gukora mu muhanda.

Aba bantu bashinzwe umutekano w'abagororwa, bakaba ari abanyabyaha cyangwa se abantu bakoze ibintu binyuranyije n'amategeko, bajyanwa ahantu gufungwa cyangwa kugororwa, ababarinda ni bo bita abasuruveya bakaba bahabwa imyitozo, ubundi bagatozwa uko bazarinda aba bagororwa.

Ubwoko bw'inyamaswa buzwi nk'imbwa ariko ziba zaratojwe, zikaba zigira ubushobozi bwo gucunga umutekano ndetse no kubasha gusaka, no kuvumbura ahantu hahishe ibintu bitemewe nk'urumogi, imbunda n'amasasu cyangwa ibindi bintu bishobora kwangiza umutekano n'ubuzima bw'abaturage.

Abasirikari bakaba ari abantu batojwe kurinda cyangwa se kurwanirira igihugu, ni abasore n'inkumi bajyanwa ahantu hihariye, bakigishwa uburyo barwanirira igihugu bakoresheje imbunda ndetse n'ubundi bumenyi, baba bambaye imyenda yabugenewe y'icyatsi, ndetse bagira disipurine ihagije.

Amato y'inzego z'umutekano akorera mu mazi, akaba ari ubwato bukoresha moteri, bukoreshwaga n'inzego z'umutekano mumazi kaba bufite ubushobozi bwo kwibira, ndetse itumaga ikora n'ubutabazi igihe habaye impanuka mu mazi.

Itente cyangwa se, ihema riririmo ikivunge cy'abantu bakurikiye umuhango runaka, hagaragara n'umupolisi wambaye imyenda cyangwa se inforume za gipolisi, bikunda kuba mu birori cyangwa mu bukwe ahantu hateraniye abantu benshi.

Ibikoresho bishyirwa ahantu kugira ngo bicunge umutekano binyuze mu mashusho bifata ,maze bakareba nyuma habaye ikibazo, bakareba ibyabaye haba ari umujura, cyangwa se ikindi kintu cyabiteye bakaza kubibona binyuze mu mashusho yafashwe na camera zashyizwe ahantu runaka, kugira ngo zicunge umutekano.

Imbwa ikaba ari inyamaswa itozwa, maze ikagira ubushobozi bwenda kumera nk'ubw'abantu, kuko ikoreshwa mu gucunga umutekano no gusaka ibintu, bimwe na bimwe bitemewe nk'ibisasu, urumogi n'ibindi bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu.

Abantu bambaye amapingu ,igikoresho gikoreshwa n'inzego z'umutekano zambika abantu b'abanyabyaha kugira ngo batazirwanya, cyangwa ngo biruke bacike, akaba ari igikoresho bambara ku maboko, cyangwa ku maguru, bituma imbaraga zabo zicika ,bagatuma borohereza inzego z'umutekano, gukora akazi kabo.

Inama cyangwa ikoraniro ry'abaturage ryahuje n'ubuyobozi. Ryiganjemo ubw'umutekano buzwi nka polisi. Ikaba ari kimwe mu bikorwa bavuga igihe habaye ikibazo, cyangwa se ubuyobozi bushaka kuganiriza abaturage ikintu runaka, bakaba bababwira amatangazo ndetse n'ingamba na kimwe mu bintu bakora kugira ngo birinde ibibazo.

Abantu cyangwa se abagabo bari mu myitozo, bafite n'imbunda n'ingofero, bambaye n'imyenda, bakaba ari kimwe mu bintu biranga abantu bakora akazi ko gucunga umutekano w'abaturage. Bakaba bakora imyitozo yabugenewe, ndetse bakaba bazi gucunga n'abaturage binyuze mu byo bitoje.

Inama cyangwa se ikoraniro ry'abaturage n'abayobozi, aho bahurira ahantu hamwe, ubundi bakaganirizwa, ndetse bagahabwa umwanya wo kubaza no gutanga ibitekerezo. Aha ubuyobozi bubabwira ibyo bwateguye, ikindi kandi bugasubiza n'ibibazo byabo. Nk'aha hari inzego z'umutekano ziganiriza abaturage, mu buryo bwo kubungabunga umutekano wabo.

Mu inama cyangwa ikoraniro rihuza abayobozi n'abaturage, baganira ku bibazo byugarije abaturage, bamenyeshwa ingamba cyangwa amatangazo y'ubuyobozi, akaba ari naho abaturage babonera umwanya wo gutanga ibibazo n'ibyifuzo ku bayobozi babo.

Inama cyangwa se ikoraniro ry'abaturage n'abayobozi. Bakaba bahurira ahantu runaka hazwi, ubundi bakaganira ku bibazo, ibitekerezo, ndetse abaturage bakaba batanga ibitekerezo ku myanzuro runaka bakurikije uko babyumva. Ibi bituma bagira uruhare mu iterambere rya bo.

Icyumba kinini cyabugenewe, cyagenewe kwakira inama zihuza abantu benshi cyane icyarimwe. Kikaba kibamo intebe, amatara ndetse n'indangururamajwi, zituma abitabiriye inama bose babasha gukurikirana ubuyobozi, cyangwa undi muntu wese ufite icyo ari kuvuga.

Icyumba cy'inama gihuza abantu benshi, baje kuganira muri iyo nama, haba harimo intebe ameza, amatara, indangururamajwi, bituma abantu bitabiriye inama bagira umutekano, baba bari kuganira ku bibazo cyangwa, ku zindi ngingo zateguwe bakazitangaho ibitekerezo.

Igiseke cyangwa se icyibo kikaba ari igikoresho kimwe mu by'ubukorikori, cyangwa se biranga umuco nyarwanda. Bikaba aha ngaha ibiseke bikoreshwa nk'imitako, cyangwa se no mu bukwe babitwaramo amapfukire ndetse n'ahandi. Babishyiramo amafaranga bari gutura nko mu rusengero n'ibindi.

Indembere akaba ari igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu gihe bari gukama inzoga, kikaba cyarashyirwagamo ibitoki n'ibyatsi bakabivanga, bikabyara umutobe ugatarwa, ukazavamo inzoga. Cyakoreshwaga kera mu Rwanda rwo hambere, n'ubu ngubu mu cyaro kiracyakoreshwa hamwe na hamwe.

Ikibindi akaba ari igikoresho gakondo cyakoreshwaga n'abaturage bo mu cyaro cyangwa abaturage ba kera, kikaba gikoreshwa cyane cyane mu kubika amazi cyangwa gushyirwamo inzoga mu bukwe n'ahandi.

Ababyinnyi cyangwa intore babyina bateze amaboko. Bambaye imyambaro isa nka bimwe mu biranga itsinda ry'abantu babyina cyangwa baririmba. Aha babyina bateze amaboko, nka kimwe mu bimenyetso biranga imbyino z'umuco nyarwanda.

Ibibumbano by'intore cyangwa ababyinnyi gakondo babyina indirimbo z'umuco nyarwanda. Bikaba ari kimwe mu bintu biranga umuco wacu byiganjemo kubyina bateze amaboko, bambaye imikenyero, imishanana, amayugi ndetse bakoresha ingoma.

Aba bambaye imyambaro ikoreshwa mu birori cyane cyane iby'ubukwe, aho higanjemo imikenyero ku bagore, ndetse n'abagabo bambaye imyenda isakandi bafite n'inkoni nka kimwe mu bintu bisigaye bigezweho, aho bambara imyambaro isa kandi mu birori bakaba baberewe.

Igicuma kikaba ari igikoresho gakondo gikorwa mu bwoko bw'ibihaza bivamo ibicuma, bakaba bagisarura cyeze bakagikuramo inzuzi n'ibindi bintu birimo imbere, ubundi igishishwa cyacyo kiba kigifunze neza kikumishwa, nyuma kikazakoreshwa banyweramo inzoga, kandi kibikwamo n'amazi nta kibazo.

Intore zikaba ari ababyinnyi babyina imbyino gakondo ziganjemo ingoma ndetse amahembe, ikembe n'ibindi, ibi ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda, byakorwaga kera cyane bari gususuruka, ndetse n'ubu mu gihe hari ibirori byiganjemo iby'umuco, imbyino zigaragaramo.

Cyangwa ahantu inka ziza gushoka mu gihe kigeze cyo gushoka. Hashingwa amazi maze mu gihe cy'ama saa sita cyangwa ku manywa, inka zikaza gushoka atuma zigira ubuzima bwiza iyo zanyweye amazi.

Isekuru ni igikoresho gakondo gikorwa mu giti kikaba gikoreshwa mu gusekura ibinyampeke cyane cyane, ndetse n'imyumbati kugira ngo zivmo ifu, kikaba cyarakoreshwaga kera n'ubu kikaba kigikoreshwa mu cyaro gisekurwamo ibinyampeke nk'amasaka, ibigori, uburo n'ibindi ndetse n'isombe ikoreshwamo igasekugwa nyuma ikaribwa.

Imbyino gakondo, akaba ari kimwe mu biranga umucyo, aho ababyinnyi cyangwa se, intore babyina bateza amaboko, bikoreye uduseke, bambaye imishanana cyangwa imikenyero, bikaba bikorwa mu birori byo kugaragaza umucyo nyarwada.

Umuhinzi ufite isuka ku rutugu, akaba ari igikoresho cyo mu buhinzi, kikaba kigira icyuma kimeze neza cyo mu ruganda cyangwa bacuze bakwikiramo umuhini kugira ngo abahinzi borohewe no kugikoresha, gikoreshwa mu gucukura imigenda cyangwa se ibyobo ndetse no guhinga ni kimwe mu bikoresho byiza cyane.

Igikorwa cyo gukama ibitoki kiranga umuco nyarwanda, ibi byakorwaga n'Abanyarwanda ba kera ,aho bataraga ibitoki byamara gushya, bakabishyira mu ndemberi bakavanga ibyatsi ,cyangwa amakoma bakabivuguta mpaka bibayemo umutobe, nyuma bakawuvanga n'amasaka ,ifu, ubundi bikabyara inzoga. Ibi biracyakorwa hamwe na hamwe mu cyaro.

Ibiryo gakondo biriho igitoki, ibirayi, ibihaza, ibijumba n'ibishyimbo. Bikaba ari mu biryo byaribwaga kera cyane mu Rwanda rwo hambere. bikaba ari ibryo byiganjemo ibikungahaye ku bitera imbaraga, bikaba ari ibiryo by'umuco nyarwanda.

Umutiba cyangwa umuzinga akaba ari igikoresho, gikoreshwa mu bworozi bw'inzuki aho kibohwa, maze kikajyanwa mu giti cyangwa ahantu habugenewe, maze inzuki zikajamo, zikajya zikoreramo ubuki, nyuma y'igihe abarozi b'inzuki bakaza kubusarura.

Ababyinnyi bambaye imyambaro gakondo yiganjemo imikenyero, bakaba biteze n'utundi tuntu ku mutwe, nka kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuco nyarwanda, bikaba ibi ari ibintu bakora mu birori bigaragaza umuco akenshi byo mu buyobozi, mu bukwe cyangwa mu bindi bintu byibutsa amateka y'u Rwanda.

Inka cyangwa se ishyo ry'inka, ikaba ari ubwoko bw'inka nyarwanda zizwi cyane zitwa inyambo. Zigira amahembe maremare zikaba zari inka zakundwaga cyane mu mateka y'u Rwanda. Mu Rwanda rwa kera aho izi nka zatangaga umusaruro ndetse zubahaga n'ubutegetsi bwa cyami mu Rwanda rwa kera.

Ubudozi cyangwa se ubukorikori, ukaba ari umurimo wo gukora ibintu bakoresheje intoki. Aha umuntu arimo kuboha ikirago, kimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga mu kuryamaho, cyangwa se kwanika imyaka. Kikaba gikorwa mu bwatsi, kikaboheshwa imideyi bakoresheje intoki cyangwa se pamba.

intore cyangwa ababyinnyi babyina indirimbo gakondo ziranga umuco nyarwanda, akaba babyina bambaye ibikoresho birimo amacumu, amayugi ndetse n'imikenyero n'ibindi bintu by'imisatsi ku mutwe nka kimwe mu biranga umuco nyarwanda, n'ubwo Abanyarwanda bizihirwaga kera babyina imbyino zabo gakondo.

Urukiza ni igikoresho gakondo gikorwa mu bihingwa bimeze nk'ibihaza, kikaba gikoreshwa mu kunywa igikoma, inzoga, cyangwa urukoma. Kikaba gikoreshwa cyane cyane ubu mu cyaro, ndetse cyakoreshwaga kera mu muco nyarwanda.

Ingobyi, igikoresho gakondo cyakoreshwaga mu gutwara abarwayi ,na n'ubu ngubu kiracyakoreshwa hamwe na hamwe mu cyaro, kikaba gikozwe mu byatsi ,ariko kigira ibiti bibiri bituma abantu babasha gutwara umurwayi ku rutugu ,bakamugeza kwa muganga.

Ababyinnyi cyangwa intore barimo kubyina bya kinyarwanda, nka kimwe mu biranga umuco wa kinyarwanda. Aha baba babyina bateze amaboko, bambaye imyambaro ya kinyarwanda yiganjemo amayugi, imikenyero, ndetse bafite icumu n'ingabo, mu biranga umuco.

Bacuruza ibintu abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, byiganjemo ibyo mu gukora mu masuku, mu guteka n'ibindi. Harimo imyuko, utumamiyo, imbabura ndetse ibikapu, intara cyangwa se udutete. Ibi bikoreshwa n'abaturage, abacuruzi bajya kubirangura aho byakorewe n'ahandi mu mujyi, bakabyegereza abaturage, bituma babibona byoroshye.

Urusyo，igikoresho gakondo cyakoreshwaga，mu gihe babaga basya bimwe mu binyampeke， nk'amasaka，ingano， ndetse n'ibindi bagamije gukoramo ifu，yifashishwaga mu biryo cyangwa mu bindi bintu，nko mu nzoga yewe， nk'amasaka， ni ho bakorera urubetezi，rwakoreshwaga mu gukora inzoga izwi nk'urwagwa.

Gukama kimwe mu bikorwa bigaragaza umuco nyarwanda, cyangwa ibikorwa Abanyarwanda ba kera bakoraga, aha bataraga ibitoki byamara gushya bakabikuramo imineke bakayitonora bakayishyira mu gikoresho kitwa umuvure, bakabivuguta babivanze n'amakoma cyangwa ibindi byatsi byabugenewe ,nyuma bikaza gutanga umutobe ari wo bavangaga n'urubetezi rw'amasaka bikabyara inzoga.

Umukobwa ufite igikoresho gakondo cyitwa agaseke, gikorwa mu bukorikori kuko kiboheshwa intoki hifashishijwe urushinge, kikaba ari igikoresho gikoreshwa mu birori nk'ubukwe no mu bindi birori by'umuco nyarwanda, kikaba gishyirwamo impano cyangwa amafaranga ndetse cyaba n'umutako.

Ingoma igikoresho gakondo cy'umuziki, kikaba ari igikoresho gikorwa mu ruhu rw'inyamaswa zitandukanye, kikaba ari igikoresho gikoreshwa mu gihe bari mu birori cyangwa bari gukora indirimbo z'umuco, iz'iyobokamana no mu bukwe n'ahandi.

Umurimo cyangwa ubukorikori, akaba ari igikorwa cyo gukora ibikoresho byiganjemo ibya gakondo, imitako y'uduseke, n'ibindi. Bakoresha intoki kandi bibohwa mu byatsi, imideyi, ibirere, bakoresheje urushinge n'intoki.

Abazungu barimo kwerekwa uko imbyino nyarwanda gakondo ziba ziryoshye, aho ziba ziganjemo ingoma zivuza amakondera n'ibindi nuko bazibyina, aha ni abashyitsi baza bakerekwa kimwe mu bintu biranga umuco nyarwanda, byiganjemo kubyina kimwe mu bikundwa cyane.

Igikorwa cyo gukama, kimwe mu bintu bikorwa n'abantu bagikora ibintu by'umuco nyarwanda. Bakaba batonora ibitoki, bakabishyira mu ndemberi, bakabivanga n'ibyatsi cyangwa amakoma, bakabikama bakama, hakavamo umutobe utuma nyuma haboneka inzoga, cyangwa bakawunywa uko ng'uko batawutaze.

Akaba ari ababyinnyi babyina imbyino gakondo zirangaga umuco nyarwanda. Aba ni abasore n'inkumi baba bambaye imyambaro yabugenewe, igaragaza imbyino gakondo nyarwanda, higanjemo imikenyero, baba bafite ibikoresho birimo icumu, ingabo, n'ibindi. Bakunda kugaragara mu birori bigaragaza umuco nyarwanda.

Ababyinnyi babyina injyana cyangwa se imbyino gakondo ziranga umuco nyarwanda birangwa n'imyambaro ndetse n'uburyo babyinamo bateze amaboko. Imyambaro baba bafite harimo imikenyero, imishanana ndetse n'amayugi ndetse n'ibindi bintu bashira ku mutwe bikaba ari kimwe mu birangaga umuco nyarwanda.

Ahantu mu nzu hagaragara imitako ibohwa n'abantu bakoresheje amaboko higanjemo imikeka, uduseke n'ibindi. Bikaba ari kimwe mu bintu by'ubukorikori kandi bigaragaza umuco nyarwanda, ikoreshwa mu birori by'umuco cyangwa se mu bukwe ndetse n'ahandi hantu hamurikwa umuco nyarwanda.

Igikoresho gakondo gikoreshwa mu mbyino gakondo. Aho intore zicyambara ku maguru, kuko kiba gifite mo imbere akantu k'akabuye, nuko bakubita ikirenge bikajya byivuza, biryohera amatwi y'abantu, maze bakishima.

Ababyinnyi bari ku rubyiniro barimo kubyina, bigaragara ko bari kubyina imbyino gakondo kuko bambaye imyambaro igaragaza umucyo, ndetse n'uburyo batezemo amaboko, bigaragara mu mbyino cyane cyane, z'umucyo nyarwanda, cyangwa izo hambere, bikaba bikorwa mu birori bijyanye no kugaragaza umuco nyarwanda.

Ingobyi, igikoresho gakondo gikoreshwa mu gutwara abarwayi babajyanye kwa muganga, Ibi bikunda gukoreshwa mu cyaro ndetse n'ahandi hantu hataboka umuhanda cyangwa se ibinyabiziga. Ibi ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda, uko Abanyarwanda batwaraga abarwayi. Ndetse izi ngobyi zahekwagamo umwami n'abageni.

Uduseke kimwe mu bikoresho biranga umuco, kandi bikaba bikorwa mu bijyanye n'ubukorikori, ibi ni ibikoresho cyangwa se imitako, yewe ni bimwe mu biranga umuco nyarwanda kuko Abanyarwanda ba kera babikoreshaga mu kubibikamo ibintu, kubitwereramo ndetse no mu birori n'ahandi.

Gukama ibitoki kimwe mu bikorwa bigaragaza umuco nyarwanda cyangwa se ubuzima bw'abanyarwanda ba kera, uburyo bakoragamo inzoga bataraga ibitoki bibisi nyuma byamara gushya bakabitonora bakabishyira mu ndemberi, bavangaga n'ibyatsi bakabikama byavamo umutobe bakawutara bawuvanze n'ifu y'amasaka izwi nk'urubetizi, nyuma y'iminsi ibiri bikabyara inzoga.

Ababyinnyi bazwi nk'intore, bakaba babyina indirimbo z'umuco nyarwanda, bakaba baba bafite ibikoresho gakondo, bigaragaza umuco nyarwanda higanjemo icumu, ingabo n'amayugi.

Ikigega cyangwa se igisobane, akaba ari igikoresho cyakoreshwaga kera. Kikaba cyarakorwaga mu ruti, kiboshywe neza. Ubundi bakaza kugihunikamo imyaka yiganjemo ibigori, ibishyimbo n'amasaka kugira ngo izakoreshwe mu gihe kizaza.

Intore akaba ari ababyinnyi gakondo, babyina imbyino gakondo, bagaragara cyane cyane mu birori bigaragaza umuco, ndetse baba bafite ibikoresho by'umuco nyarwanda, harimo amacumu, ingabo ndetse n'amayugi.

Ibirori birimo intore cyangwa ababyinnyi barimo kubyina imbyino gakondo. Akaba ari kimwe mu biranga umuco nyarwanda, aho ababyinnyi babyina bateze amaboko, bikoreye uduseke. Bikaba bikunda gukorwa mu mihango cyangwa ibirori, byiganjemo umuco nyarwanda.

Inzu y'umuco nyarwanda, ikaba yari inzu ya kera y'ibwami izwi nk'ingoro. Ikaba yarakorerwagamo imirimo ndetse ikabamo abategetsi b'ibwami. Iyi ikaba ari kimwe mu biranga umuco nyarwanda, n'uko abanyarwanda babagaho mu rwanda rwa kera.

Ibikoresho gakondo bigaragaza umuco nyarwanda, bikaba ari ibikoresho byakoreshwaga n'abanyarwanda ba kera, ibi birimo najoro, uyuya ndetse n'insangurizo, amasuka n'ibindi, ibi byari ibikoresho Abanyarwanda ba kera bakoreshaga kandi bikoreraga, bakabikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inka ikaba ari itungo riranga umuco Nyarwanda, ubwoko bwitwa inyambo, izi zari inka zakundwaga cyane mu Rwanda rwo hambere kuko zatangaga umukamo, kandi zarubahwaga ibwami no mu baturage bandi, binyuze uko zari ziteye kuko zigira amahembe yihese meza maremare.

Abagore bambaye imyenda gakondo, ikoreshwa cyane mu birori nk'ubukwe cyangwa indi mihango igaragaramo umuco nyarwanda, bakaba bateze amaboko nka kimwe mu bintu biranga imbyino nyarwanda, yakoreshwaga cyane cyane mu birori by'ibwami ndetse no mu bukwe n'ahandi.

Igiseke kikaba ari kimwe mu bintu bikorwa mu bukorikori, kikaba ari igikoresho cy'umutako kandi kikaba gikoreshwa mu birori, aho bashyiramo ifukire cyangwa se ibindi bintu, bituma kiba gisa neza kandi kikaba kigaragaza ububasha bw'amaboko, cyangwa se ubushobozi abantu bifitemo bwo gukora ibintu bakoresheje intoki.

Korali cyangwa ababyinnyi gakondo babyina indirimbo z'umuco nyarwanda. Aba ni abantu bakundaga kugaragara mu birori by'ubuyobozi cyangwa bijyanye n'ubutegetsi ,ndetse n'ibindi birori bigaragaramo umuco nyarwanda. Babyina bambaye imyenda gakondo amayugi ,bafite ingabo ndetse n'amacumu mu kugaragaza umuco nyarwanda.

Abahanzi cyangwa abaririmbyi, barimo kuririmba bakoresheje mikorofone, kimwe mu byuma by'ikoranabuhanga bituma amajwi agera kure, rizwi nk'indangururamajwi ,ari gucurangisha kandi ibyuma bindi gakondo bikozwe mu biti, bizwi nk'imiduri cyangwa se ibindi ,bicaye ku ntebe, barimo barahuza amajwi neza.

Igikoresho gakondo kizwi nk'indemberi cyangwa umuvure. Kikaba cyarakoreshwaga mu kwenga ibitoki kugira ngo habonekemo umutobe ukorwamo inzoga iba ari ibitoki bakabishyiramo bikavanga n'ibyatsi cyangwa amakoma abikama, byamara kuvamo umutobe bagataramo inzoga. Gikorwa mu biti cyane cyane mu byitwa umuvumu.

Umugabo uri impande y'inka, imwe mu nka zifite agaciro mu muco nyarwanda zizwi nk'inyambo, zikaba zaragiraga amahembe. Ibi bikoreshwa mu kugaragaza amateka y'u Rwanda ndetse n'umuco w'abanyarwanda ba kera, uko bahaga inka agaciro. Izi nka zagiraga umukamo ushimishije, byatumaga ibwami zikundwa cyane.

Igikoresho gakondo cyitwa isekuru , kikaba gikoreshwa mu gusekura ibintu bitandukanye, byiganjemo ibinyampeke ndetse ni isombe , kikaba ari igikoresho gikoreshwa cyane cyane mu cyaro, kandi kikaba gikorwa mu giti cy'umuvumu, cyangwa voka , bakaba bacukura umwobo mu giti ubundi n'umusekuzo bagashimo ibintu bakabisekura bikava.

Ipensi ni igikoresho gikoreshwa mu gukanika cyangwa se gukora mu bintu by'amashanyarazi, kikaba gikoreshwa mu gukata insinga no kuzihuza, kigira ikirindi gituma umuriro udafata umuntu uri kuyikoresha.

Imashini cyangwa mudasobwa igikoresho gikoreshwa mu ikoranabuhanga kuko gikoranye ubuhanga buhambaye. Kikaba gikoreshwa n'abanyeshuri cyangwa abarimu mu kwiga ikoranabuhanga ndetse kikaba ari kimwe mu bintu bibika amakuru n'ibindi bintu umuntu ashaka mu gihe kirekire.

ku muhanda ahantu haba hari urujya n'uruza rw'abantu. Haba higanjemo abagenzi ndetse n'abakora akazi ko gutwara abagenzi ku moto bitwa abamotari, aba bakaba batwara abagenzi babavana hamwe babajyana ahandi bituma biteza imbere, kuko abo bagenzi bishyura amafaranga bagendeye ku rugendo bakoze.

Inteko rusange ihuza abaturage cyangwa abakirisitu baje gusenga, bakaba baza bitwaje amaturo bambaye neza, hakaba habamo umuntu umwe ubishinzwe cyangwa se wabiherewe uburenganzira, ubabwiriza ijambo ry'Imana rituma bahindura imyumvire, kandi bagafashwa bagakora imirimo y'imana.

Ishuri bari ku murongo, ahantu harebwa amabwiriza cyangwa ubundi butumwa abayobozi baho baba babageneye. Ibi bikorwa cyane cyane mu gitondo cyangwa n'undi munsi, bikaba ari kimwe mu bintu abanyeshuri bakunda kuko babona umwanya wo kuganira n'ubuyobozi bw'ikigo.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo ibizamini bya perimi cyangwa se uruhushya rwo gutwara, ariko rubanza ruzwi nka poroviuzuwari, hakaba habamo imashini, ameza, n'intebe yatumaga abantu baje gukora bicara neza, barangiza bagakora ikizamini bakorera kuri izi mashini ziri muri icyo cyumba.

Urusengero cyangwa inzu y'Imana. Ikaba ari inyubako yagenewe imirimo yo gusenga. Abaturage cyangwa abandi bakirisitu baza ku munsi wagenwe bagahura, maze umwigishwa ubizi wabyigiye akabigisha. Bituma bahinduka bakagabanya ibyaha.

Inyubako ikorerwamo icyo bita gusenga cyangwa se imirimo y'Imana, ikaba ari inyubako ihuriramo abaturage benshi baba baje gusenga, habamo padiri cyangwa se umwigisha w'ijambo ry'Imana, bigisha ku munsi runaka, ibi bituma bayoboka Imana, bagahinduka, ibyaha bikagabanuka.

Inyubako za leta z'amashuri, akaba ari inyubako zagenewe kwigishirizwamo abanyeshuri, bituma bagira ubwenge cyangwa se ubumenyi, maze bakazafasha Igihugu n'umuryango nabo muri rusange, mu iterambere hakurikiwe ubumenyi bakuye ku ishuri.

Icyapa kiri ku muhanda kigaragaza aho ikigo nderabuzima giherereye, iki cyapa gishyirwa aha, kugira ngo kirangire abaturage aho bagana baramutse bashaka serivisi runaka. Ibi bikunda kuba ahantu abantu, hahurira urujya n'uruza rw'abantu, bituma batayoba bakajya aho icyapa kibarangiye.

Mu rusengero ni inzu izwi nk'inzu y'Imana, ihuza abantu baza baje gusenga, habamo umuntu cyangwa umwigisha ndetse n'umupadiri wigisha ijambo ry'Imana, abwiriza abaturage n'abandi ba kristo baje gusengeramo.

Nini cyane ikorerwamo ibyo kwigisha iyobokamana izwi nk'urusengero cyangwa kiliziya. Akaba ari ahantu abaturage n'abakirisitu bandi bateranira baje gusenga Imana. Bajyamo padiri abigisha ijambo ry'Imana bagatura ndetse bagafashwa.

Ikiraro cy'ibyuma, kikaba ari ikiraro gikoreshwa mu kwambukiranya umugezi muto cyangwa ahandi hantu hacitse hanyura amazi, byorohera abaturage kwambuka bituma batagira ikibazo no kuba bahura n'impanuka zimwe na zimwe zaterwa no kunyura ahantu hatari ikiraro.

Inyubako itaruzura ikaba irimo gusharupandwa. Aha bikaba biba mu gihe inyubako itari yuzura, ishyirwaho ibikwa bituma abafundi babasha kubaka; bakagera hejuru borohewe kuko inzu iba ari ndende. Ikindi kandi n'abayede biraborohera kubagezaho ibikoresho nk'amatafari n'isima n'ibindi.

Ibyuma binini bizwi nk'amapironi, akaba ari amapoto ashyirwaho umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi, zimwe zijyana umuriro ziwukuye ku rugomero, aho uturuka ziwujyana mu kandi gace, kugira ngo hacanirwe naho hagere ibikorwa by'iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo unyuze ahantu hari ibipangu bigaragara ko hatuwe n'abaturage. Bikaba ari kimwe mu bikorwa remezo by'iterambere, kuko abaturage babasha kugera mu rugo no kujya mu kazi biboroheye; bifashishije uyu muhanda mwiza, kuko batega moto cyangwa amagare bikaborohera, bikihutisha akazi kabo n'imibereho.

Ishusho akenshi iba igaragara ahantu h'imyemerere y'Imana. Ikaba ari ishusho igaragaza Umwami Yesu uvugwa muri Bibiliya n'ahandi. Ikaba iba ahantu haba imyemerere y'Imana kimwe mu bimenyetso bigaragaza icyo bemera.

Inzu ziri ahantu hamwe zisa. Akaba izi nzu zikunda guhabwa abatishoboye, cyangwa abandi bantu basenyewe n'ibiza. Izi nzu zubakwa ahantu maze zigahabwa abo bantu, ndetse n'abandi bantu batuye mu manegeka bakimurwa, bagatuzwa muri aya mazu ubuzima bwabo bukagenda neza.

Ikoraniro cyangwa inama yahuje abaturage n'ubuyobozi aho bahurira ahantu hamwe bakicara bagahura n'abayobozi, bakabaganiriza ku ngingo zitandukanye aha ni n'aho abaturage baba bashobora gutangira ibitekerezo bakabaza n'ibibazo ubuyobozi, ndetse ubuyobozi na bwo bukemura ibibazo byabo bunabagezaho bimwe mu ngamba, cyangwa se uburyo n'amatangazo y'ubutegetsi.

Imbuga nini cyane ihuriramo abaturage bo mu mudugudu runaka, kugira ngo baganire n'ubuyobozi bwabo aho, bahura ku munsi wemeranyijwe ubundi bagatanga ibitekerezo ,ndetse bakabaza n'ibibazo ubuyobozi bwabo, aha n'ubuyobozi busaba abaturage ndetse bukabagira inama, ndetse n'imyanzuro cyangwa se izindi ngamba zihari zikabamenyeshwa.

Ikoraniro cyangwa imbaga y'abantu ikaba ari igikorwa abaturage bitabira cyane iyo bahamagajwe cyangwa bo bagiye gutanga ibitekerezo, kubaza ibibazo no kumva inama cyangwa se ibyo abayobozi bababwira, iki ni igikorwa kiba ku munsi runaka, gihuza abayobozi n'abaturage baganira ku byateza imbere imibereho myiza y'abaturage.

Ihuriro cy'abaturage n'ubuyobozi bikaba ari igikorwa gikorwa gihuza abayobozi n'abaturage, kugira ngo baganire ku bibazo byugarije abaturage, ndetse abaturage babone umwanya wo gutanga ibitekerezo kubaza ibibazo, ndetse n'ibindi. Hari n'aho ubuyobozi busubiriza bugakemura n'ibibazo by'abaturage, ndetse bukaboneraho kubamenyesha amatangazo n'ingamba ku buzima bwabo n'ubw'igihugu.

Ikoraniro cyangwa inama y'abaturage n'ubuyobozi, akaba ari igikorwa gihuza abayobozi n'abaturage bari kuganira ku bibazo ,ndetse n'ibindi bintu bikaba ariho abaturage batangira ibitekerezo n'ibibazo ,maze n'ubuyobozi bugatanga inama, ndetse bugasubiza n'ibi ibibazo by'abaturage bukanabikemura byoroshye.

Inteko cyangwa inama yahuje abaturage, hakaba ari ahantu bahurira n'ubuyobozi, bagatanga ibitekerezo, bakabaza ibibazo bifuza, kandi bakaganira n'ubuyobozi uko bakiteza imbere, ndetse bakamenyeshwa ibyemezo cyangwa andi matangazo yo mu buyobozi.

Ikivunge cy'abaturage bahuriye ahantu, bigaragara ko bahuye n'ubuyobozi bari gutanga ibibazo, ibitekerezo n'ibyifuzo. Aha hakaba hari igikorwa gikorwa cyane ubuyobozi bwegereye abaturage, kugira ngo bukemure ibibazo by'abaturage, ikindi kandi bunabagezeho ibitekerezo n'amatangazo yandi y'uko ibintu byagenda.

Indege ikaba ari kimwe mu binyabiziga bigenderaga mu kirere, bitwaraga abagenzi benshi cyane. Iyi ikaba ari kampani yitwa Rwandeya, itwara abagenzi ibavana mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu ibajyana mu bindi bihugu. Indege ni kimwe mu bintu bifite ikoranabuhanga rikomeye kuko rya yatuma igurukira mu kirere kandi ifite ibiro byinshi cyane.

Imodoka nini zitwara abagenzi zizwi nka twegerane, zikaba ari bisi nini zitwarira abagenzi icyarimwe zikaba zikoreshwa cyane cyane mu mijyi zijyana abaturage mu kazi ndetse zinabavanayo. Zikaba zibajyana no mu zindi ngendo bashaka kujyamo bakishyura amafaranga menshi, bituma boroherwa mu kazi ndetse nababisi bakiteza imbere.

Imodoka cyangwa bisi nini, ikaba itwara abagenzi. Ibi ni kimwe mu bikorwa remezo cyangwa se mu bintu bituma abaturage ubuzima bwabo bugenda neza, kuko bashobora gukora ingendo mu buryo bwihuse, bifashishije izi bisi.

Akagare gakoreshwa mu gutwara abagenzi, aha bakaba bafata, amagare bagashyiraho intebe, cyangwa imifariso yatuma abagenzi bicaraho, bakabageza aho bashaka kuja bituma, abayatwara biteza imbere kuko bababagamo amafaranga yabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imodoka itwara abagenzi izwi nka kwasiteri, ikaba ikoreshwa mu gutwara abantu ibavana mu duce dutandukanye ibajyana ahandi. Aho bagenda bakishyura amafaranga, nyuma imodoka ikabajyana iyo bagiye. Ituma boroherwa mu kazi no mu ngendo zabo.

Imodoka itwara abagenzi izwi nka kwasiteri, ikaba ari kimwe mubintu bituma abaturage boroherwa n'ingendo, kuko batega bakajyana ibintu cyangwa nabo ubwabo aho bashaka ,bakishyura amafaranga, biborohereza mu kazi no mu bucuruzi bwabo bwa buri munsi, kuko imodoka igira n'umwanya wo gutwara imizigo yabo.

Imodoka nini zitwara abagenzi zizwi nka kwasiteri zikoreshwa mu gutwara abantu n'imizigo mike kuko zigira umwanya wo gutwara imizigo y'abagenzi zitwaye. Zikoreshwa mu ngendo ziva mu ntara zija mu mujyi cyangwa no mu duce tundi dutandukanye.

Imodoka nini zitwa bisi zishinzwe gutwara abantu n'ibintu, kuko zigira umwanya hasi wo gutwara imizigo ndetse hejuru hakaba habamo intebe nyinshi, bituma zitwara abagenzi benshi icyarimwe, zibavana hamwe zibajyana ahandi, bikaba byorohereza abaturage mu mikorere yabo.

Umuhanda unyuze ku mazu y'ubucuruzi, aho hagaragara moto cyangwa se rifani, kimwe mu bintu bikoreshwa mu gutwara imizigo bayivana hamwe bayijyana ahandi. Ibi byoroshya ubucuruzi n'ubwikorezi bw'abantu, ndetse bituma abaturage bashobora kubona ibyo bakeneye biboroheye, binyuze muri izi rifani zibatwaza ibya bo.

Ikamyo cyangwa se imodoka nini ihetse uruntu rutwarwamo gaze cyangwa peterori. Rukaba rufite ubushobozi bwo kubika ibyo bintu by'imyuka nka gaze na peterori. Ikindi kimodoka kikaba ari kirekire, kandi kigira ubushobozi bwo kwikorera ibintu biremereye, aho kibikura aho bicukurwa, kibijyana aho bitunganyirizwa cyangwa kubikoresha.

Abantu batwaye amagare ya siporo, akoreshwa mu gukora imyitozo, cyangwa gusiganwa mu marushanwa y'amagare, bakaba bafite idarapo ry'u Rwanda bigaragara ko bakinira ikipe y'u Rwanda mu mukino w'amagare.

Imodoka nini izwi nk'ikamyo, ikaba ikora akazi ko gutwara imizigo iremereye n'ibikoresho, cyane cyane iby'ubwubatsi, ikaba itwara umucanga, amabuye mu gihe hari kubakwa. Iyi ni imodoka ifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu byinshi icyarimwe.

Abamotari ni abantu bakora akazi ko gutwara abantu ku binyabiziga bya moto. Bikaba bituma biteza imbere, kuko habamo amafaranga menshi cyane. Baragenda bagatega abagenzi, uwo babonye bakamujyana iyo ashaka kujya akabishyura amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ku ma moto, amagare, ndetse n'amamodoka mu mujyi rwagati, ibi bikaba bikunda kuba iyo abantu bagiye ku kazi batega moto n'imodoka, bakajya aho bashaka kujya bakishyura, ibi bituma akazi k' abamotari kabateza imbere, kuko babona amafaranga menshi cyane.

Imodoka zitwara abagenzi yo mu bwoko bwa bisi, ni nini cyane ifite ubushobozi bwo gutwara abantu benshi icyarimwe, ikaba igira n'umwanya wo gutwara imizigo yabo ikaba ari kimwe mu bintu bituma ubuzima bw'abaturage bworoha, kuko babasha kugera kure mu gihe gito bakoresheje izi modoka.

Imodoka nini ya bisi ikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu, ariko akenshi ikaba itwara abantu, ikaba igira n'umwanya muto wo munsi wo gushyiramo imizigo, ikaba ivana abantu mu nce zimwe na zimwe ibajyana ahandi, bakishyura amafaranga, bituma haboneka akazi ku bashoferi, kandi bikorohereza abaturage kugera iyo bashaka byoroshye.

Imodoka nini y'ubwikorezi izwi nka fuso cyangwa ikamyo, ikaba itwara imizigo iremereye yiganjemo ibikomoka kuri peteroli nka gaze. Ikaba itwara imizigo iyivanye aho icukurwa iyijyana aho itunganyirizwa, cyangwa aho izakoreshwa ku masoko.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hategegwa imodoka hakaba habamo imodoka nini zizwi nka kwasiteri cyangwa bisi zitwaraga abagenzi zibavana hamwe zibajana ahandi. Abagenzi bajyamo gutega imodoka bakishura amafaranga bituma akazi kabo n'ingendo byoroha kandi n'abantu batwaye bakiteza imbere.

Umumotari utwara imizigo kuri moto igira amapine atatu izwi nka Rifani. Akaba ari moto yakorewe kujya itwara imizigo, kandi ikaba yorohereza akazi k'abantu, kuko aho gutereza imodoka batereza iyi moto, bigatuma akazi ka bo kihuta, kandi bikabyarira inyungu nyiri moto.

Abakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare, ukaba ari umukino ukundwa cyane kuko uhuruza uruhuri rw'abantu baje kureba uko bimeze ,uko basiganwa, uwasize abandi akaza guhembwa nk'umukinnyi witwaye neza.

Ipiganywa ry'amagare cyangwa umukino wo gusiganwa hakoreshejwe amagare, aha haba harimo abakinnyi batandukanye, aho bajya mu muhanda bakirukanka, bagakoresha ibihe cyangwa bakiruka basiganwa uwutsinze arahembwa, ikindi kandi umukino wari uhuruje imbaga y'abantu kuko uba ushimishije cyane.

Cyangwa umukino w'amagare ukinwa n'abantu bari gusiganwa cyangwa barushanwa kugera ahantu kure bakoresheje amagare, ubaye uwa mbere arahembwa. Uyu ni umukino ukundwa kuko usanga wahuruje imbaga nyamwinshi baje kwihera ijisho kuko baba baryoheye abantu ko basiganwa.

Pisine cyangwa se amazi yo kogeramo, akaba ari kimwe mu bintu bikorwa mu mahoteli cyangwa se no mu ngo z'abakire, hakaba aho bacukura icyobo bakacyubakira neza, bagashyiramo ikoranabuhanga rishiramo amazi maze igihe bashaka bakajya kogamo, kandi bituma abantu binjiriza amafaranga hoteli igihe ifite pisine.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo gukina umwe mu mikino y'intoki izwi nka volebolo ,akaba ari umukino ukinwa n'amakipe abiri ahanganye hakaba habaho izamu cyangwa se aho gutsinda. Aho banyujije umupira mu gapaniye kahaba cyangwa agatete bituma amanota yabo yiyongera nyuma bakaza gutsinda. Ni umwe mu mikino ituma ukundwa cyane.

Abakinnyi b'umukino w'intoki uzwi nka basiketiboro bari mu kibuga. Bari ku murongo kandi bari kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu.

Ikibuga, ahantu hahurira urujya n'uruza rw'abantu baje ,kwihera ijisho imikino. Aha hari ikibuga cyakira imikino y'intoki irimo: basiketibolo ,volebolo n'iyindi y'intoki ,hakaba hahurira abafana, cyangwa se abandi bantu baje kureba, uko ihangana ry'amakipe yombi riza kugenda.

Abakinnyi ariko bafite ubumuga bw'ingingo, bakaba bari gukina umupira, ikaba ari kimwe mu bikorwa byiza bituma, aba bantu bafite ubumuga bidagadura ntibaheranwe n'agahinda, iyi mikino ikunda kugaragaramo cyane cyane, abantu bafite ubumuga bw'ingingo babuhuje, bagakina umukino bakishima.

Ikivunge cy'abantu bahuriye ku kibuga, bafite amadarapo bigaragara ko bari gufana ikipe y'igihugu y'u Rwanda, kuko amadarapo yabo ari ay' u Rwanda, akaba aha, ari ahantu hahurira abantu benshi, baje kureba amakipe ari gukina mu kibuga.

Umukino w'intoki uzwi nka vore boro, ukinwa n'amakipe abiri ahanganye, aho akina umupira awukinishije intoki, hagati harimo fire cyangwa se ikintu gitandukanya ayo makipe, aho bakina bitewe n'abatsinze ubundi bakaza guhembwa, kandi hari n'abafana bawishimira cyane.

igikorwa cyo guhemba uwitwaye neza mu irushanwa ryo gusiganwa ku magare. Akaba ari irushanwa rikorerwamo gusiganwa ku magare, maze uwitwaye neza nyuma akaza guhembwa igikombe, ndetse agahabwa umudali n'amafaranga. Abihabwa n'abayobozi, aba ari ibintu bishimishije cyane.

Umukino w'amagare ukaba ari umukino ukundwa cyane, kuko uhuza urujya n'uruza rw'abantu baje kwihera ijisho, uburyo abantu basiganwa bakoresheje igare, kandi uwatsinze arahembwa cyane.

Ikivunge cy'abantu bahuriye muri sitade, hakaba hahurira abantu benshi baza gufana amakipe y'umupira w'amaguru cyangwa se indi mikino, kikaba ari kimwe mu bintu byinjiza amafaranga kuko bishyura, kandi kikaba ari ikindi kintu gihuza abaturage bakishima bakanezerwa cyane.

Abakinnyi b'umukino wa basiketi ukaba ari umukino w'intoki, ukinirwa mu kibuga cyawo cyabugenewe, aho amakipe abiri ahangana barwanira gutsinda mu gapaniye cyangwa mu izamu ryabo aho itsinze itwara amanota menshi, n'indi ,maze bakazagira ubwo bahabwa igikombe, uyu ni umukino kandi uhuruza imbaga nyamwinshi kuko uba ushimishije.

Umuhanda wa kaburimbo ,akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bituma ubuzima bw'abaturage butera imbere, akaba ari umuhanda ukorwa n'imashini ukavanwamo ibitaka ,ugashyirwamo ibizwi nka godoro n'imicanga yabugenewe ,ituma ukomera kandi ukaba urinda impanuka zirimo kuba hacikamo inkangu.

Umuhanda urimo abantu bafite amagare yo gutwaraho abagenzi, akaba ari kimwe mu bintu bitwara abagenzi, aha ni umuhanda udakoze neza, utari uwa kaburimbo, ariko ushobora kunyurwamo imodoka, moto n'ibindi, akaba ari kimwe mu byorohereza abaturage kugeza umusaruro, ndetse no kujya mu kazi, no gukora izindi ngendo.

Agasantere hagati ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye. Hubatsemo udutandaro cyangwa utu etageri abacuruzi baza gucururizaho ku gihe cy'umunsi w'isoko, bituma habaho imihahiranire hagati y'abaturage bajyaga guhaha ibyo badafite bakeneye ibiryo byiganjemo inyanya, imboga n'ibindi bituma n'abandi babizana ku isoko.

Inzira y'abanyamaguru iherereye ku muhanda wubatswe neza, akaba ari akayira kaba iruhande bituma abanyamaguru n'ibinyabiziga batanyura ahantu hamwe. Birinda impanuka zateza kuba abanyamaguru bari kunyura aho imodoka cyangwa ibindi binyabiziga biri kunyura.